Icyumba kigirwamo n'abana b'incuke. Hari abambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu kandi bifubitse imipira ifite amabara atandukanye. Hari intebe n'ameza. Inyuma yabo hari idirishya ririmo ibirahure.

Amazu menshi agiye asakaje amategura ndetse hari iteye umucanga. Hari ubusitani buri imbere y'izo nzu kandi hari n'ikigega bakoresha mu gihe barigufata amazi.

Itsinda ry'abantu batandukanye bari kureba abandi bari kubyina imbyino gakondo, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, bakikijwe n'amashuri.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi biri ku murongo, birimo mudasobwa ndetse n'ikindi gikoresho cyifashishwa mu kwandika. Biteretse ku meza nini ifite ibara rya kake.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bose bari kugenda mu muhanda ahagenewe abanyamaguru kandi muri uwo muhanda hari ibiti bihakikije ndetse n'amazu asize irangi rya beje.

Urugi runini ruteye irangi ry'umweru, iry'umuhondo n'iry'ubururu. Handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi. Hirya ku gikuta, hariho abagore babiri bashushanyijeho, bari kubyina, umwe yikoreye igiseke.

Icyumba kigari giteye irangi ry'umuhondo gifite amadirishya manini y'ibirahuri, icyo cyumba kirimo ibikoresho nk'utubati, imeza, intebe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagabo, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, ubururu ndetse n'umweru, bari mu cyumba giteye irangi ry'umweru ku nkuta, harimo imashini zitandukanye.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse kandi hari uruhande rusize irange ry'umweru, ahandi hubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya ariho ibirahure kandi imbere yayo hari ubusitani n'imodoka iparitse mu ibaraza ry'iyo nyubako.